Abagore benshi batandukanye bari kuvoma amazi bakoresheje indobo z'ubururu, za oranje, baziteruye bateretse imbere.

Abamama benshi bicaye ndetse n'abagabo bambaye imyambaro y'ubururu, bateruye ibitabo bisa umweru. Bari kurebamo ndetse n'abandi bareba imbere yabo.

Abantu benshi bari mu nzu y'uruganiriro bicaye ku meza bayazengurutse, ameza ariho igitambaro cy'umweru ateretseho mudasobwa, abantu bicaye harimo abagore n'abagabo.

Abantu benshi batandukanye bari gutera ibiti mu butaka bisa icyatsi kibisi, bambaye imipira ya oranje bose harimo abagabo n'abagore.

Umumama uteruye umwana, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru n'ibirinda amaboko bisa umweru, uri gukora ku mwana.

Abana bahagaze ku ivomero bambaye imyenda isa hejuru kake no hasi kake, bafite indobo z'umuhondo barikuvomeramo amazi ku marobine atatu.

Abakobwa bane n'umuhungu umwe, bose hejuru bambaye imipira isa ubururu, hasi bambaye amapantaro barimo baraseka abandi bazamuye amaboko.

Umwana urimo araseka, hejuru yambaye umwenda usa ubururu, hasi yambaye usa umukara, imbere ye hateretse indobo ku ntebe isa umweru, ifite umupfundikizo w'ubururu ndetse n'umukondo w'ubururu.

Umumama uteruye umwana, imbere ye hahagaze umumama ufashe amatama y'uwo mwana, urimo aramusukiramo utuntu mu kanwa, arimo araseka.

Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, abantu benshi bahagaze harimo abagore ndetse n'abagabo bareba imbere yabo.

Umwana ufashe ku mugezi arimo aravomera hejuru yambaye umwenda w'umuhondo hasi yambaye umwenda w'umukara ateruye ikivomesho gisa umweru.

Abantu benshi bahagaze bari gufata ifoto, bakoze imirongo itatu, inyuma yabo hari icyapa gifite amabara y'umweru n'ubururu, yanditseho amagambo y'umweru.

Umugabo usutamye wambaye hasi umukara hejuru ibara risa oranje, ufashe ku mwana uhagaze ku gikoresho gipima ibiro arimo.

Abantu benshi cyane, hari abicaye ku ntebe b'abagabo, ndetse hari n'abahagaze. Harimo abagore n'abagabo bambaye imipira y'imikara, ndetse n'abambaye imyenda isa umweru.

Umuma uhagaze wambaye hejuru umweru, hasi umukara, uteruye indangururamajwi mu ntoki ze, uyitunze ku kumunwa, ahagaze ari kureba imbere ye avuga.

Abantu benshi bicaye bareba imbere mu cyerekezo kimwe ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hahagaze umugore urimo arasobanura ndetse.

Umukobwa urimo araseka yifashe akaboko ke ku kananwa, ari kureba imbere ye mu kirahure ateruye mu kandi kaboko...

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo araseka yireba mu kirahure, amaboko ye abiri ateruye akadodo k'umweru agafatiye imbere yakanwa ke.

Abantu benshi, abicayeyi n'abahagaze harimo abambaye imipira y'icyatsi n'abambaye iy'umweru. Abambaye iy'icyatsi yanditseho tubiteho.

Abagabo babiri bahagaze hejuru y'umugore uryamye ku gatanda, wasamye mu kanwa barimo barakura amenyo bakoresheje utwuma.

Umukobwa urimo arireba imbere ye, afite umusatsi w'umukara wambaye umwenda w'umweru hejuru, urimo aroza amenyo aseka akoresheje.

Abantu babiri bicaye, imbere yabo hari impapuro nyinshi zisa umweru ndetse n'urupapuro rumwe, bafatanye bombi barufasheho bari kururebaho.

Umugabo n'umugore bari kureba ku rupapuro, umugore uteruye urupapuro, imbere yabo hari ameza ateretseho ibinini bisa umweru.

Umugabo wicaye mu kagare, hejuru yambaye umwenda w'umuhondo hasi usa ubururu, ari kureba iruhande rwe, hicaye umwana urimo araseka, hejuru yambaye umupira usa icyatsi kibisi hasi ubururu.

Umumama urimo araseka, ufite umusatsi w'umweru, wambaye umupira w'umweru, uteruye isahani y'umweru iriho imbuto zitandukanye, mu kandi kaboko ateruye...

Abantu babiri umugabo, n'umugore bahagaze imbere y'icyapa inyuma yabo, gisa umweru cyandikishijweho amagambo y'umukara kiriho ibirango by'ubururu n'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'uruganiriro, bicaye ku ntebe z'umweru, hejuru bambaye imipira isa umweru, imbere yabo hahagaze umukobwa wambaye hejuru umukara hasi wambaye umweru.

Benshi bari mu muhanda bagenda bateruye ibyapa birebire byanditseho amagambo, twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Abantu benshi harimo umukobwa ndetse n'abagabo hejuru bambaye imyambaro y'umweru ifite amaboko maremare, hasi bamwe bambaye ibara ry'umukara abandi iry'ubururu bari...

Umugabo wicaye hasi mu byatsi bisa icyatsi kibisi, uteruye akaguru afatiye mu itako ry'iwe arimo arireba.

Uri mu myitozo wazamuye akaguru agashyira ku biti biri imbere ye, arambura amaboko ye ayerekeje ku kaguru yazamuye, akandi kaguru gasigaye hasi kamwe.

Ubwoko bw'ibiryo butandukanye: harimo imbuto, mu mbuto dufitemo inkeri, umuneke ndetse dufitemo amagi, ku ruhande dufitemo inyama.

Akaboko k'umuntu w'inzobe gateruye agacupa kazamuye hejuru, gafite umufuniko w'ubururu, karimo amazi ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru.

Umukobwa uri muri siporo wicaye hasi, wambaye umwenda w'umukara hasi ndetse no hejuru, amaboko ye akoze munsi y'urukweto yambaye, imbere ye hateretse agacupa gasa ubururu bw'amazi.

Umuntu uzamuye amaboko abiri ayafatanyije, hejuru ye usutse ibisuko bisa umukara uhambirijeho agatambaro gasa ibara rya...

Abantu babiri bari muri siporo umugabo n'umugore, hasi bambaye udukabutura tw'umukara hejuru bambaye amasengeri bateruye amacupa y'amazi mu ntoki.

Ibimera bitandukanye by'amabara y'icyatsi kibisi, afite ibibabi, afite imbuto, afite amahwa, afite ibiti.